Igifuka kimeze nk'icyo baboshye mu budodo, kirimo ibintu by'umweru, ibyo bintu ni ifumbire mvaruganda, aho iyo umuntu yahinze imyaka aba akeneye imvaruganda yo gushyiraho kugira ngo izakure neza.

Amabasi ari ku murongo, ni amabasi ane, harimo ay'ubururu ni imwe, ay'icyatsi ni atatu, arimo ibintu by'umweru.

Abantu benshi barimo barahinga, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, aho bari guhinga buri murima urimo abantu bake bake, hirya yabo inyuma gato hari ishyamba.

Imiti y'amatungo iri mu macupa atandukanye, hari ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuhirira imyaka, bizwi nka rozwari z'icyatsi kibisi, amacupa arimo imiti ni menshi cyane.

Umufuka w'umweru uriho amabara y'icyatsi n'umuhondo, inyuguti zanditse mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, ni imifuka myinshi iri ahagana hirya yose.

Inyubako nziza cyane inyubako z'ubucuruzi, aho hagiye hariho ibishushanyo biranga ibyo wasanga muri izo nyubako, imbere yazo hari imbuga y'amapave.

Mu buhumbikiro bw'imbuto zitandukanye, harimo imbuto zashibutse ziri kumera, ndetse bazishyize mu mashashi kugira ngo zitazangirika, kugira ngo bazazikuremo bajya kuzitera ahandi.

Igihingwa ngandurarugo cyitwa umuceri. Umuceri ni igihingwa cyiza ndetse kigira amafaranga kuwagihinze iyo yacyitayeho neza.

Ibisheke ni ingirakamaro mu mubiri wa buri muntu aho biba bikenewe kubera ko isukari irimo itunga umubiri w'umuntu kurusha iyo mu nganda, ibisheke bigomba gukorerwa neza.

Igihingwa cy'inyanya ni igihingwa cyiza, gitanga amafaranga kandi abantu baranagikenera mu buzima busanzwe, aho uriye ibiryo bitarimo inyanya ukumva nta cyo uriye, tuba tugomba kuzirya kuko zujuje ubuziranenge.

Mu buhumbikiro bw'imbuto, aho bahumbika imbuto nyinshi, maze zakura zikajya guterwa ahandi habugenewe, harimo imbuto nziza nyinshi ziri mu dushashi twazo.

Umugabo uri mu bigori, yambaye bote z'icyatsi, yambaye umupira wo kwifubika, ibigori nigirakamaro ku buzima bwacu, kuko iyo tubiriye tumererwa neza kandi dushobora no kubinywamo igikoma.

Igihingwa cyiza cyane, ni igihingwa gihingirwa mu Rwanda, hazwi nko mu ntara y'Amajyepfo, aho ari icyayi cyiza cyane, icyayi kigira amafaranga menshi.

Ikiganza gifashe mu ntoki ibintu by'ibyatsi bihonze; bigaragaza ko ari imiti bahonze kugira ngo bayikuremo umuti w'amazi.

Ni imiti y'amatungo iri mu ducupa dutandukanye, ifitwe n'ikiganza cyambaye akarindantoki n'imiti iri mu ducupa, aho buri nka cyangwa se buri tungo riba rigomba kuwuterwa.

Abagabo ndetse n'abagore bari mu murima, barimo barahinga, bafite amasuka, hirya yabo hari ibiti ndetse n'insina n'imbingo bihateye.

Abantu benshi bahuriye mu mirima itandukanye, aho hari ibigori bihahinze, barimo barabyitegereza babireba kugira ngo bazabikorere neza.

Abamama babiri bicaye kuri shitingi, barimo baragosora imyaka bakoresheje intara, aho bagosora bakuramo imyanda, kera wasangaga abantu bifashisha intara zo kugosora.

Umugabo wunamye mu bihingwa arimo arabikorera isuku, aho abibagara ashyiraho agafumbire. Hari n'ibiti inyuma ye birebire bigaragaza ko aha hantu hera koko.

Umugabo wambaye ubusa hejuru, yambaye agakabutura, afite isuka ari mu murima arimo guhinga, aho inyuma ye hari ibiti bibiri bya gereveriya ndetse n'insina ziteye muri uwo murima arimo.

Imifuka myinshi irimo ibintu bipakiyemo byuzuye ni imifuka iri ahantu hamwe hirya yayo hari abantu batatu barimo barayireba ndetse banareba ko bayigeza ku isoko.

Imifuka myinshi irimo iy'umuhondo, imyeru, amajerekani y'umuhondo, imifuka y'icyatsi irimo ibintu byinshi bitandukanye, hari n'agakarito kanditseho sana.

Umusaza wambaye ishati y'umweru arirabura ari mu murima w'ibigori, aho ibigori byeze bikaba byaragiye bikuma, afite ibigori mu ntoki ze byumye bishishuye.

Imifuka yuzuye ibicuruzwa, aho baba babishyize kugira ngo abantu baze babigure, ni umusaruro w'imbuto bari barahinze maze bikera cyane.

Umusaruro w'ibihingwa bitandukanye, harimo ibishyimbo by'amoko menshi, buri mufuka ugiye wuzuye aho uteretse, ni imifuka myinshi cyane, irimo ibihingwa.

Igihingwa cyiza cyane cy'urubingo, ni igihingwa gihingirwa inka ndetse n'ihene kugira ngo zizakirye, gikikije ibiti biri haruguru yacyo, aho bikwiriye kubagarirwa kugira ngo bise neza.

Urubingo ni kimwe mu byatsi bikoreshwa bahereza inka, ihene kuko urubingo iyo rutari mu bwatsi ugiye gu guha inka, ubwo bwatsi nta reme buba bufite buba ari ubuciriritse.

Igiti cy'ipapayi kiri hagati mu rutoki, hirya hari uturabyo twiza ndetse bimeze neza cyane, bigaragaza ko byitaweho neza.

Ururabyo ruri ku muhanda, ruri iruhande rw'inzu, inyuma y'iyo nzu hari igiti cya voka kirekire, ururabyo rufite uturabyo tw'umuhondo, ni ururabyo rusukuye neza.

Ubuhumbikiro bw'imbuto zitandukanye, harimo imbuto zakuze zikeneye kugemurwa zikajya guterwa ahandi, iyo wahumbitse imbuto biragufasha cyane kuzishyira ahandi, kuko ziba zarakuze zigahita zifata.

Ni igiti kirekire cy'isipure, hirya yacyo hari icy'umuyenzi, bigaragaza ko aho hantu hari uruzitiro ndetse n'ibindi biti byinshi by'amoko atandukanye.

Indabyo z'umutuku, ni indabyo zera ibibabi binini cyane, ziteye mu byatsi, aho hepfo yazo hakorotiriye n'amabuye na sima, ku buryo ntacyabasha kuhamena.

Ibitunguru bikikije umunzani, ni mu isoko aho hari ibitunguru by'umweru n'iby'umutuku, buri wese aza agahitamo icyo ashaka. Ni isoko rigari.

Kokombure ni ikimera gihingwa ndetse kikanifashishwa mu kuribwa, kuko usanga kokombure ari urubuto rwiza, rushinzwe koza mu nda, rugakuramo imyanda.

Ni ibihingwa by'imbuto byiza ni amacunga, aho buri giti kigiye gifite ibiteja bigaragaza ko cyizera vuba, amacunga ni ingirakamaro.

Indabyo nziza, ubusitani bumeze neza, iyo ufite ubusitani ukabwitaho, ahantu utuye hagaragara neza, haba hameze nka harimo amafu.

Inyanya ni igihingwa cyitabwaho ndetse kikagira umusaruro uhagije, hari inyanya zatondagiye ibiti, zimwe ziriho ziratukura, izindi ziracyari mbisi.

Umurima urimo ibiti, ni ibiti biteye ku mirongo bikeya, bigaragara ko bikeneye kwitabwaho kuko hari ibyamaze gupfa bigenda bitukura amababi.

Ni urubuto rw'avoka aho rumeze neza rwitaweho, hirya no hino hari ibiti birukikije byarambaraye hasi by'imyumbati, kugira ngo hatazagira uza akarwangiza.

Ibinyomoro byiza cyane bimeze neza, biri ahantu hamwe aho bikenewe gushyirwa mu murima byisanzuye, kugirango bizere neza.

Insenda ziri mu mifuka yazo, aho ari ubuhinzi bwiza bukozwe neza kuko iyo uhinze urusenda ukarusarura, biguha amafaranga.

Indabyo nziza z'amoko menshi, harimo izirimo move, icyatsi, umukara, ndetse hari n'izindi zirabya uturabyo tujya gusa nk'umweru werurutse, ziri imbere y'inyubako itagaragara neza.

Ibihingwa by'imbuto n'imboga bigezweho kuko usanga abantu bahinga karoti, beterave, ibiringanya, imiteja ndetse bakabigemura no ku isoko kugira ngo bibahe amafaranga.

Umubyeyi ufite umupira w'amazi mu ntoki, yambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umupira ni ubururu, arimo aravomera dodo, kugira ngo zizakure zimuhe amafaranga ndetse anazirye.

Abana b'abahungu babiri, bari mu kiyaga, barimo baravoma amazi, aho umwe afite injerekani ebyiri z'umuhondo, undi afite injerekani ebyiri z'icyatsi kibisi.

Umurima munini urimo ibihingwa, aho babiteye ku murongo, bagiye bashinga n'ibiti, buri gihingwa gifite igiti giteye ku murongo wacyo kugira ngo kizazamuke neza.

Ikibaya kirimo ibintu byinshi biteyemo, hakurya hari amazu ndetse hari n'amashyamba, ni ahantu ushobora guhinga hakabyara umurima mwiza urimo ibihingwa byinshi.

Ubworozi bw'amatungo magufi, bugira akamaro k'ubukora kuko buzana amafaranga, ihene, ingurube ndetse n'ibindi nibyo byifashishwa mu butunzi.

Isake imeze neza, irabyibushye, aho ihindukiye iri kureba inyuma. Isake cyangwa se n'izindi nkoko zigira amafaranga kuko iyo zitera amagi cyangwa se iyo ugurishije nk'isake, ubona amafaranga menshi.

Inka y'umukara iri mu kiraro, ikiraro cyubakishije ibiti ndetse imbere yayo hari ubwatsi irimi irarya. Ikiraro kandi gisakaje ibintu by'ibishagarira bimeze nk'ibyumye.

Inka y'umukara iri mu kiraro, bayubakiye ikiraro cy'ibiti, inka iyo uyoroye neza ukayiha ubwatsi buyikwiriye, iyo nka igira umukamo ndetse igatanga n'ifumbire.

Ababyeyi bahagaze ndetse n'abandi bicaye, buri wese afite agakwavu mu ntoki, aho bari imbere y'umurima urimo ibigori, ndetse hirya yabo hari inyubako.

Umumama wambaye imyenda irimo umuhondo ari kumwe n'umwana we wambaye imyenda y'ishuri y'ubururu, bafite ingurube barimo barayiha amazi mu ibasi y'ubururu, ingurube igira umusaruro mwinshi.

Umugabo wambaye agapira gatukura, yifubitse ijakete irimo ubururu n'umweru, yambaye bote z'umukara n'ipantaro y'umukara, afite ihene mu ntoki aho agiye kuyizirika.

Inka y'umukara, ifite iherena ku gutwi, iri mu kiraro cyayo aho itegereje ubwatsi. Inka ni amatungo meza kuko aduha inyama, amata ndetse n'ibindi.

Ahantu ho guhumbikira ibimera bitandukanye, haba imbuto ndetse n'ibindi bahatwikirije amashitingi, ni ahantu hameze nkaho hari umurima bakawica.

Ibiti byiza birimo indabyo zirabya uturababyo tw'umutuku, harimo kandi indabyo z'umuhondo n'ahantu hari indabyo nziza ziteye amabengeza.

Ibyatsi biteye ahantu mu gishanga bimeze neza cyane bikenewe kwahirwa ngo bishyirwe inka ndetse n'andi matungo. Guhinga ni byiza kuko ubwatsi iyo bwameze ubuhereza amatungo.

Ihene zirahagaze bazifatiye mu biziriko, aho hari umuntu uri kugenda azitera inshinge kugira ngo azikingire indwara. Hari n'abandi bantu bazanye izindi hene.

Inyoni iri mu biti, ibiti byinshi by'amashami, inyoni ni umweru n'umukara, inyoni nk'izi zikunda ibiti bigiye biriho n'andi mashami kugira ngo bibone uko bihagararaho.

Ibisimba by'ishyamba, imparage ebyiri, ziri mu ishyamba mu byatsi bisa n'ibyumye, birahoberanye bisa n'ibihuje imisaya, aho bimeze neza cyane.

Inyoni y'umweru n'umukara, ihagaze mu duti dutoya aho isa n'iyakonje kuko yazamuye ijosi cyane, ni inyoni bigaragara ko yaba ibyibushye.

Ibikoko by'ishyamba rimwe na rimwe hari igihe bijya byigaragambya, ugasanga byabujije nk'abantu gutambuka, harimo nk'imparage cyangwa impara, aho biba byatorotse ishyamba.

Inyamaswa nyinshi zihurira hamwe mu ishyamba, zigakora icyo bise nk'ihuriro, aho na zo ziba zishaka gutemberana, kujyana kurisha ndetse no guhiga ibindi bizitunga.

Inkende isa umukara n'umweru iricaye yarambuye umurizo inyuma yayo yicaye hafi y'ibyatsi ndetse amaboko iyashyize imbere yayo.

Inyoni y'amabara y'amukara iri ku biti, aho iri mu ishyamba rya yonyine. Inyoni ni ibisimba byiza kuko ntawe byanduranyaho, biba byibereye mu ishyamba, biri gutora ibibitunga.

Inyoni imeze nkaho itagira imirizo myinshi, iri hagati mu biti ni mu ishyamba ririmo n'ibindi bimera byinshi, inyoni iri ku giti irimo irareba imbere yayo.

Ingagi iri mu giti, aho yaryamye ku giti mu ishyamba, ingagi ni inyamaswa zitonda ariko iyo uzanduranyijeho murashwana.